Igishushanyo k'ifi gishushanyijwe ku rukuta rw'ishuri, iki gishushanyo kikaba gifasha abanyeshuri bigamo in nasari kumenya ibinyabuzima cyane cyane biba mu mazi.

Ikigo cy'amashuri y'abana b'inshuke kikaba kiri ahantu hari ibitaka hadasa neza hakaba hari n'ikigega gifata amazi avuye ku mabati yo hejuru.

Ikigo cy'amashuri aho abana b'inshuke bigira bakabasha kuhakura ubumenyi buzabafasha n'ahazaza, abarimu babo na bo babitaho neza cyane kandi bakabafasha.

Uburezi ku bana batoya ni bwiza kuko umwana iyo arezwe neza akiri muto bimufasha n'ahazaza gukura akuranye ubwenge, umwarimu arimo aramwigisha kubara imibare kugira ngo arebe ko yafashe neza ibyo yamwigishije.

Udukoresho dutandukanye, tukaba ari udukoresho turi mu mabara atandukanye, twose kandi twifashishwa mu guha uburere buboneye abana ndetse no kubungura ubumenyi ku bikoresho bigiye bitandukanye, biga muri nasali.

Ibyicungo by'abana b'inshuke, biga mu mashuri matoya, bikaba bibafasha mu gihe bari gukina. Hari n'utundi tubafasha mu kubara kugira ngo bunguke ubumenyi.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye cyane cyane mu mashuri yo hasi akunze kwitwa ay'inshuke, usangamo ibishushanyo mu mashuri imbere, bifasha abana kunguka ubumenyi no gusobanukirwa iby'ayo mashusho avuze.

Ni ku ishuri, ku rubarazaka hakaba hashushanyije amasaha kugira ngo ajye afasha abanyeshuri bo mu mashuri ya nasari, kumenya kubara igihe ndetse no gusobanukirwa neza icyo isaha y'urushinge ivuze.

Agapupe kari mu gikapu, kakaba gakunda kwekwa abana batoya, bakumva barakishimiye cyane rwose, rero abana bato kuko bo bashimishwa n'utuntu duto, ni byiza ko uhera ku bintu bito ubigisha kugira ngo bunguke byinshi.

Udukoresho dutandukanye, tukaba twifashishwa n'abana biga mu mashuri yitwa nasali kugirango babashe gusobanukirwa ndetse no kumva neza bijyanye n'urwego baba bariho.

Ni ku kigo cy'amashuri aho abana b'inshuke bajya kwigira, bakunguka ubumenyi bwinshi butandukanye bityo bakamenya n'ibindi bintu byo hanze y'ubuzima bwo mu rugo kandi bagakura ari abana bazi ubwenge.

Ibishushanyo ni bimwe mu byongera imyumvire y'abana kuko iyo arebye ikintu gishushanyije ashobora kugira icyo akivugaho, niyo yaba atazi gusoma ariko iyo abonye igishushanyo arasobanukirwa.

Umwana mutoya wambaye ishati y'umweru, ijipo y'umukara, akaba avuye ku ishuri. Ishuri rero nk'uko tubizi ni ingenzi ari yo mpamvu ababyeyi baba bamwohereje akaba ari kugenda mu muhanda w'igitaka.

Igikapu kiri mu ibara rijya gusa oranje gishushanyijeho udupupe, akaba ari ibikapu by'abana batoya iyo babihetse baba bumva banezerewe nk'umubyeyi rero ni byiza kumugurira iki gikapu ukakigurira umwana wawe.

Ballon cyangwa umupira w'amaguru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ukaba wifashishwa mu gukina umupira w'amaguru. Uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Uteretse ahantu hasa umweru.

Ni ku kigo cy'amashuri, gisize amabara y'umuhondo, gisakajwe amabati atukura, ku rubaraza rwacyo hanze hakaba hashushanyijeho ibishushanyo, bifasha abana gusobanukirwa ibintu bitandukanye.

Icyapa kiriho udushushanyo tw'abana, utu dushushanyo tukaba twifashishwa mu kwereka abana biga muri nasari kugira ngo babashe gusobanukirwa ndetse no kumva bigendeye ku mashusho kuko baba bataramenya kwandika.

Udukoresho dutandukanye, harimo utudobo, harimo udukinisho, utu twose twifashishwa, mu kungura ubumenyi abana batoya biga muri nasari kugira ngo bunguke ubumenyi bugiye butandukanye.

Udushushanyo dutandukanye, agashushanyo k'imodoka, indobo, rozwari, udushushanyo turi mu mabara atandukanye, umutuku, umuhondo, icyatsi, byose byifashishwa mu guha uburezi abana b'incuke.

Inyuguti zanditse mu mukono ndetse no mu cyapa akaba j ndetse na y, ibi ngibi bifasha abana mu kumenya gusoma amagambo atandukanye y'Ikinyarwanda by'umwihariko arimo izi nyajwi.

Ikigo cy'amashuri y'abana b'inshuke ,aha akaba ariho abana bato bajya kwigira, ku bikuta by'iki kigo hakaba hashushanyijeho amoko y'ibimera ndetse n'ibikoresho bitandukanye byungura abana ubumenyi.

Ku bigo bitandukanye by'amashuri, uhasanga ibishushanyo bitandukanye, ibi bishushanyo kandi bikaba bifasha abanyeshuri mu kwiyungura ubumenyi bugiye butandukanye kuko iyo bakibonye bagira amatsiko yo kumenya icyo ari cyo, bakabaza abarimu babo.

Ibitabo ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu burezi kugira ngo byungure ubumenyi bw'abana ndetse byagure n'ubwonko bwabo, babashe gusoma kandi bungukiremo byinshi bizaba impamba y'ahazaza.

Amakaramu, udukarito, imashini yifashishwa mu guteranya, mu gukuramo, mu gukuba no kugabanya imibare, byose bibumbiye ahantu hamwe, bikaba byifashishwa mu burezi, mu myaka y'amashuri abanza.

Igikorwa remezo Leta yubakiye abaturage kugira ngo abana bajye babona aho bigira hasa neza kandi hasukuye, kigizwe n'inkingi z'ibyuma ndetse gisakajwe n'amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Ishusho igaragaza igitabo cyo mu mwaka w'amashuri abanza, kiriho utunyoni tubiri turi kuganira kikaba cyanditseho isandi n'intashya mu mashuri y'inshuke.

Ni ku kigo cy'amashuri, hari ababyeyi batandukanye baje kureba abana babo, imyigire yabo uko biga. Iki kigo kikaba gifite imbuga ngari, irimo n'ibiti birebire bitatu.

Ni umurezi wambaye impuzankano y'akazi akaba yambaye itaburiya y'umweru, akaba ari umwarimu wigisha imibare mu mashuri abanza, arimo araha urugero abana kugira ngo na bo baze kubona uko basobanukirwa neza.

Iyi ni ibuwate bakunze kwita mu ndimi z'amahanga buwate matematicale, ikaba ibirimo ibikoresho bitandukanye nk'ikaramu y'igiti yo gushushanyisha, gome yo gusiba ndetse n'ibindi bifasha umunyeshuri mu myigire ye cyane cyane uwiga imibare.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarezi babo, hakaba harimo imikasi, amakereyo, amakayi, imashini zibafasha guteranya imibare ndetse n'amakayi yo kwandikamo.

Inyubako nziza cyane igeretse, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza, ikaba yubakishijwe amatafari ifite inkingi zikozwe mu byuma, ibyo byuma bikaba bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Udukoresho dutandukanye, amakureri, utudobo, ibitabo, ibi byose bikaba byifashishwa mu kwigisha abana kubereka ibimenyetso kugira ngo bunguke ubumenyi butandukanye.

Kwigisha abana bo mu mashuri abanza, bisaba kuba inararibonye kandi ukaba inshuti na bo kuko iyo bigishije amasomo meza, babasha na bo kumva kandi iyo ubaye inshuti na bo barakumvira cyane kurushaho.

Ibigo by'amashuri ni ingenzi kuri benshi cyane kuko umunyeshuri wize yunguka byinshi kandi akunguka ubumenyi buzamufasha n'ahazaza rero ni byiza kwiga kuko bigufasha n'ahazaza.

Amakaramu, amakereyo, ikaramu z'ibiti, amakayi, amarati, imashini yo guteranya no gukuramo no gukuba, akaba ari ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri igihe bari ku ishuri biga imibare cyane cyane.

Iki ni ikigo cy'amashuri, iki kigo kikaba gifite urukarabiro bakunze kwita kandagira ukararabe, akaba ari aho abanyeshuri bakarabira kugira ngo bagabanye umwanda.

Ibikoresho biri mu mabara atandukanye: umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku, oranje, ibi byose bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu kungura ubumenyi bw'abana kuko iyo babikoresheje bunguka byinshi.

Abana bo mu mashuri abanza bakunda gusoma udukuru, ni byiza rero ko igihe ubigisha ugomba kubavangiramo n'udukuru cyangwa se ukabaha n'ibitabo bakabasha kwisomera kuko bashishikarira iryo somo.

Udukoresho turi mu mabara agiye atandukanye tukaba ari udukoresho twifashishwa mu kubara kw'abanyeshuri, umwarimu aduhereza umunyeshuri akatubara iyo abishoboye aba ari umuhanga cyane kandi birabafasha cyane.

Igikoresho cyitwa ibuwate, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye amarati, magome, amakaramu, ibi bikaba bifasha umunyeshuri mu gihe ari kwiga imibare ndetse akeneye no guca umurongo.

Amashuri abanza ubundi wavuga ko ari ho fatizo ry'uburezi ndetse n'ubumenyi, umwana wize neza amashuri abanza azamuka neza kandi akazamuka ari umuhanga.

Amakarita, udukarito, uducupa, udushushanyo ibi byose bifasha abana mu kwiyungura ubumenyi kuko mwarimu iyo abikoresheje abana barushaho kumva neza no gusobanukirwa.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inzugi ndetse n'amadirishya biri mu ibara ry'ubururu, amashuri akaba yubatswe n'amatafari, hanze hari ikigega hakaba n'urukarabiro abanyeshuri bakarabaho mu rwego rwo kwirinda umwanda.

Ni ikigo cyaamashuri, gisize amabara y'umuhondo, kigizwe n'amadirishya y'ibirahuri. Hanze hari imbuga ngari, abanyeshuri bakiniramo mugihe cy'akaruhuko kugira ngo baruhuke babone gukomeza amasomo.

Iyo wigisha abana batoya ni ngombwa gukoresha ibishushanyo kuko bibungura ndetse bigatuma banasobanukirwa kuruta uko wabereka ibyanditse ku kibaho, ni byiza rero gukoresha ibishushanyo kugira ngo ubafashe kunguka byinshi.

Abanyeshuri bari ku murongo, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'umukara, umweruru ndetse n,ikigina, bakaba bahagaze bateze amatwi impanuro z'umuyobozi wabo.

Ni ku kigo cy'amashuri aho hari abanyeshuri benshi bari ku mu muronko, bambaye impuzu mpuzankano z'ishuri, aho bamwe bambaye imipira abandi bakaba bambaye amashati y'imyeru ndetse no hasi bambaye imyenda ya kaki.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bahurijwe hamwe muri sale, imbere yabo hakaba hari umuyobozi w'ikigo arimo arabaganiriza ku myitwarire myiza igomba kubaranga ndetse n'uko bakwitwara kugira ngo bazatsinde amasomo yabo.

Ni ku kigo cy'amashuri ahari abana bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'amashati ari mu ibara ry'umweru, bakaba bicaye ahantu bakurikiranye ikiganiro bari kugezwaho n'umuyobozi.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu ishuri cyangwa se muri sare, bateze amatwi bakurikiye umuyobozi wabo, uri kubagezaho ijambo yabateguriye, ribungura ubumenyi.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe bakaba bari munsi y'ihema, imbere yabo hari umwarimu arimo arabagezaho ijambo kugira ngo bungurane ibitekerezo by'uburyo babasha gutsinda amasomo yabo.

Mu gihe hateye icyorezo ni byiza ko twakwambara agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ko natwe twakandura cyangwa se twakwanduza abandi rero ikindi ni ukurangwa n'isuku bityo tugahashya icyorezo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bambaye neza, kandi baba bakeye kuko baba bamaze gusobanukirwa neza ko kugira isuku ari ibintu byiza, niyo mpamvu nabo babikurikiza bityo bagasa neza.

Inyubako zitaruzura neza ubona ko zikirimo zirubakwa hanze yayo hari abantu ndetse hari n'intebe urabona ko ari ikigo cy'amashuri kitari cyuzura, hirya hari ibiti bitarakura neza.

Igikombe ni kimwe mu bihabwa abakoze neza cyane cyane mu mikino, uyu musore akaba agiteruye arishimira ko ikigo cyabo cyabashije gutsinda, bityo kigahabwa ishimwe ry'iki gikombe.

Ni mu cyumba ahasa no mu biro, harimo ba abantu bambaye amajiri ndetse n'abandi batayambaye. Kikaba gisize amabara y'umuhondo ndetse inzugi zayo zisize ibara ryenda gusa ikigina.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zo mu mabara atandukanye, harimo abiga amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza kuko urabona ko harimo abana batoya ndetse n'ingimbi n'abangavu.

Ni abanyeshuri benshi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikigina bakaba bari mu rusengero bagiye gukurikirana ijambo ry'Imana, imbere yabo hari abapadiri batatu bari kubagezaho ivanjiri.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe n'amatafari, kikaba kigizwe n'imbuga ngari, iparikwamo n'ibinyabiziga by'abaje bagana iri shuri. Aha abanyeshuri baganayo, bagahabwa uburezi kandi bwiza cyane buboneye bw'icyerekezo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye abenshi bashishikarizwa kugira ikinyabupfura ndetse no kumvira ababayobora ari yo mpamvu usanga bafite imico myiza kandi bafite n'ubumenyi ku bwo kumvira.

Iyo abana bahawe uburere ndetse bitewe n'uburezi bakura mu mashuri bibafasha kunguka byinshi bigiye bitandukanye, aba na bo bari kugaragaza ibyo bize babigaragaza ku kibaho babyereka abandi.

Icyumba kirimo intebe, kikaba cyicayemo n'abanyeshuri babiri, abandi bakaba bari hanze. Iki cyumba ni ku ishuri, kikaba gishyizeze ibara ry'umuhondo, harimo intebe zisize ibara ry'ubururu.

Inyubako nziza cyane igizwe n'ibirahure ndetse imiryango yayo yubakishijwe n'ibyuma, ikaba iriho nimero iranga icyo cyumba, bityo uje ahagana a azi numiro yaho biramworohera cyane.

Inyubako nziza cyane, ubona isize amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu, ifite amadirishya y'ibirahure, hejuru kandi hariho nimero iranga icyo cyumba.

Inyubako isizeye amabara ari mu ibara ry'umweru, ikaba isakajwe amategura hanze yayo hari ubusitani n'abantu bari kugenda mu muhanda ugizwe n'amapave, akaba ari ikigo cy'imyuga abanyeshuri bajyayo gufata ubumenyi butandukanye.

Inyubako nziza, isize amabara y'umweru, isakajwe amabati y'umutuku, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza. Hanze hari umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara. Ikaba ifite urubaraza rukikijwe n'ibyuma.

Abaturage benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bahurijwe hamwe mu gikorwa cy'inama kugira ngo baganirizwe ku bijyanye n'uburyo bakihangira imirimo, babashe kwiteza imbere.

Ni mu ishuri harimo abanyeshuri, hakabamo ameza bigiraho, hakabamo intebe bicaraho kugira ngo bungurane ibitekerezo, hanze y'aho hari abandi banyeshuri bari gufata akaruhuko.

Icyumba cyiza kirimo abantu batatu, kikaba gisize ibara ry'umuhondo, gifite n'amakaro yu'mweru, harimo intebe zisize ibara ry'ubururu, akaba ari icyumba cyo mu kigo cya kaminuza ishinzwe iby'imyuga.

Agasekuru kifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda, bakunda gusekuriramo ibimera bitandukanye, bakabivangavanga bikabyara imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ishuri ry'imyuga rikaba ryasuwe n'abantu batandukanye b'abayobozi harimo abazungu ndetse n'abirabura, rikaba rikikijwe n'ubusitani bwiza cyane kandi butoshye.

Inyubako nziza ifite umuryango w'ibirahure ukaba uriho kode yanditseho UR zeru icyenda B zeru rimwe, ikaba ari numero iranga uyu muryango.

Igikoresho gikorwa mu ibumba akaba ari igikoresho cyakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyin ngiro, urabona ko ari igikoresho rwose cyiza cyane kandi giteretse iruhande rw'ibindi bikoresho.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bari muri sale bahuriye hamwe aho bateze amatwi umuyobozi wabo, uri kungurana ibitekerezo bitandukanye byabateza imbere.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga biga ibintu byinshi kandi bibafitiye inyungu kuko biga kwihangira umurimo, ku buryo iyo basoje kwiga batabura icyo bakora rwose.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara iboshye, yambaye ikote, yambaye agapfukamunwa k'umukara, akaba ari gukoresha mudasobwa kugira ngo amenye byinshi bigiye bitandukanye mu bushakashatsi ari gukora.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru y'ubumenyingiro, bakaba bahuriye hamwe, bari mu nama, bari kugezwaho n'umukuru wabo inama zitandukanye zabafasha mu myigire yabo.

Inyubako nziza cyane isize amabara y'umweru yasakajwe amategura, hanze yayo hakaba hari ubusitani bwiza cyane ubona ko butoshye, iyi nyubako akaba ari ikigo cy'amashuri y'imyuga.